Abagabo bicaye ahantu hamwe ndetse bicaye bitonze, bafite n'uducupa tw'amazi imbere yabo, aho bateze amatwi umuntu uri imbere urimo urabagezaho imbwirwaruhame ye.

Abantu babiri umugore n'umugabo aho umugore yambaye amarinete bicaye imbere y'ameza ariho uducupa tw'amazi yo ku kunywa, basa nk'abari mu nama aho bateze amatwi ibiri kuvugwa.

Abantu benshi biganjemo abambaye imyenda y'umuhondo, bicaye munsi y'ihema ry'umweru ririho inkingi hagati ndetse no ku mpande, bicaye batuje bakurikiye inama.

Umugabo bigaragara ko nta musasu afite ku mutwe we yiyogoshesheje, afite indangururamajwi itukura, arahagaze aho ari kugeza ijambo kutabiriye inama njyanama y'Akarere ka Nyagatare.

Umubyeyi uhagaze wambaye ishati y'umweru, ufite imisatsi miremire yazinze, inyuma ye hakaba hari igitambaro kiri mu ibara ry'ibendera ry'u Rwanda. Ari ku ndangururamajwi aho arimo aratambutsa imbwirwaruhame ye.

Abantu biganjemo abakiri bato ndetse n'abakuze cyane, abamama ndetse n'abagabo, harimo abarimo barandika ndetse n'abandi bafite amakayi, imbere yabo hahagaze umugabo urimo arabagezaho imbwirwaruhame.

Umuyobozi w'Isibo akaba yambaye ikositimu ndetse n'isaha afite indangururamajwi a ho ari gushishikariza abaturage gusaba serivisi za Leta zose binyuze ku Irembo.

Abantu bitabiriye igikorwa k'inama rusange yahuje abaturage hakaba harimo umudamu uhagaze ufite imisatsi miremire, afite indangururamajwi mu ntoki akaba arimo aratanga igitekerezo ke.

Abaturage bicaye bateze amatwi bitonze bakurikiye umuntu urimo arababwira ijambo yabageneye, hagati muri bo harimo umutaka w'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda cya MTN, inyuma yabo hari inyubako nziza isakaje amabati y'umweru.

Umumama uhagaze ufite imisatsi miremire wambaye neza afite indangururamajwi mu ntoki arimo aratanga ijambo yageneye abari kumwumva, hasi ye hari abandi bagabo bahicaye.

Igishararaga kiri mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda cyateraniyemo abantu benshi bicaye ku ntebe ziriho ibitambaro by'umweru ndetse hakaba harimo n'umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda, imbere yabo hahagaze umugabo wategereje neza.

Abaturage bicaye mu nzu, higanjemo abambaye imipira y'icyatsi, bigaragara ko bakiri urubyiruko. Baje mu nama, bicaye bateze amatwi uri kubabwira.

Abantu b'urubyiruko bicaye ku ntebe z'imikara, imbere hari ameza ateretseho amazi ndetse hari n'abadamu babiri n'umugabo barimo barandika mu makayi.

Mu muco wa Kinyarwanda haba harimo imbyino zitandukanye zo hambere, aho abakobwa babyina bashayaya ndetse hakaba n'abasore bambaye amayugi bakabyina bahamiriza.

Mu buhanzi bwo hambere wasangaga hifashishwa ibikoresho bitandukanye twavugamo nk'inanga ari yo tureba hano, umuduri ndetse n'ibindi bitandukanye n'iby'iki gihe nka za gitari.

Igikoresho kifashishwa mu kubika ndetse no gucunda amata cyane cyane iyo bagiye gukuramo amavuta kizwi cyane nk'igicuba. Iki gikoresho cyakundaga kuboneka cyane mu Rwanda rwo hambere.

Ibyuma bibiri bihagaze birebire biriho insinga nyinshi z'amashanyarazi hariho kandi na taransifo itwara umuriro hirya no hino mu baturage kugira ngo babashe kuwukoresha.

Ipoto rirerire ririho taransifa ikwirakwiza umuriro hirya no hino mu baturage kugira ngo bacane ndetse bawubyaze umusaruro mu bindi bikorwa bitandukanye nko kuba bashinga inganda ntoya ziciriritse zibafasha kwiteza imbere.

Abantu biganjemo urubyiruko, abagore n'abagabo barimo barekurura urutsinga rw'amashanyarazi kugira ngo ababishinzwe baruhanike ku bipoto bishinzwe gukwirakwiza hirya no hino uwo muriro.

Mu Rwanda ni gakeya uzabona umuntu w'umudamu yuriye igiti cy'insinga z'amashanyarazi arimo aramanika insinga, ariko bikunze kubaho cyane cyane mu bice bisa nk'ibiteye imbere.

Mu Rwanda ahantu henshi hataragera umuriro w'amashanyarazi usanga bagira udukoresho dufata imirasire y'izuba tukayihinduramo umuriro w'amashanyarazi maze na bo bakabasha gucana.

Insinga z'amashanyarazi ziba zishinzwe gukwirakwiza umuriro hirya no hino mu duce dutandukanye mu baturage kugira ngo babe babasha gucana ndetse bawubyaze n'umusaruro bashinga inganda nto ziciriritse zibafasha kwiteza imbere.

Ipoto rinini cyane rizwi ku izina ry'ipironi rishinze ahantu mu cyayi rikaba ritwara insinga ndende zifite umuriro w'amashanyarazi ziwujyana mu baturage hirya no hino.

Ku muhanda haba harashyizwe amatara kugira ngo ajye amurikira imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga biwunyumo kimwe n'abantu, iyo apfuye usanga ahenshi umutekano w'aho ukunze kuba utizewe.

Umuriro w'amashanyarazi ni kimwe mu bintu bishobora kwica ndetse bigateza impanuka mu buryo bworoshye cyane cyane iyo ababikoresha batabyitondeye. Uyu mugabo arimo arabukora kugira ngo utazateza impanuka.

Ku ruganda rw'amashanyarazi haba hari ibyuma byinshi bitandukanye, byifashishwa bakura umuriro muri urwo ruganda, bawujyana hirya no hino mu baturage kugira ngo babashe kuwukoresha ndetse bagera no ku iterambere bifashishije uwo muriro.

Mu Rwanda ahantu hanini hagiye hari amashanyarazi ku buryo buri muturage wese amugeraho akajya acana uko bikwiye cyangwa se akaba yakora ibindi bikorwa by'iterambere.

Umugabo wambaye imyenda y'akazi irimo igisubate ndetse n'ingofero yabugenewe yuriye ku giti cy'amashanyarazi arimo arayakanika kugira ngo abaturage babone uko bacana.

Icyapa kigaragaza ikigo k'Igihugu gishinzwe kwita ku ngufu z'amashanyarazi kizwi ku izina rya REG mu magambo ahinnye, hari kandi ibyuma byinshi bitwara umuriro w'amashanyarazi biwuvana ku ruganda biwujyana mu baturage..

Ibyatsi ndetse n'ibyuma biriho insinga z'amashanyarazi zigenda zitwara umuriro hirya no hino mu duce dutandukanye dutuyemo abaturage kugira ngo bacane ndetse banawukoreshe ibindi bikorwa bibyara iterambere.

Abagabo barimo barasohoka mu nyubako isize ibara ry'ubururu hejuru y'umuryango hakaba hari amagambo avuga ngo, gira ubuzima ikaze iwacu tubakire na yombi.

Abaturage barimo abagore ndetse n'abagabo n'abana bakaba barimo barambuka ku kiraro gikikijwe na senyengi, hasi hakaba hari ubusitani bwiza, imbere yabo hakaba hari ibiti birebire cyane by'inganzamarumbo.

Mu rukiko ni hamwe mu hantu abantu benshi bashobora kurenganira cyangwa se bakarenganurwa bitewe n'ibyaha bakoze kuko usanga iyo bagufunze nta mahirwe uba ufite yo kuba wavuga ikintu ngo bakemere.

Igicumbi cy'Umudugudu, Akarere ka Nyagatare, Umurenge wa Nyagatare, Akagari ka Barija, hakaba hariho kirazira ndetse n'indangagaciro ziranga uwo Mudugudu.

Inyubako nziza cyane kandi nyinshi zubatse neza ku buryo bugezweho, zikaba zitakaje amabati y'ubururu zifite n'amadirishya meza hejuru hakaba hari umukingo uriho ibyatsi, imbere y'izo nyubako hari amashyamba.

Ahantu heza hari inyubako zubakishije amatafari ahiye ndetse hari n'umuhanda urimo urakorwa utaruzura neza hakaba hari n'amatara yo ku muhanda na yo atamurika.

Inyubako nziza yubatse ku buryo bugezweho isize amarangi y'umweru ndetse n'umuhondo yubatse mu buryo bwa etaje, hino yayo hari ubusitani bukemo ibyatsi bigufiya bya pasiparume.

Ahantu heza cyane hari inyubako zitandukanye zisakaje amabati y'icyatsi ndetse hirya yazo hakaba hari umusozi urimo ibidukikije, muri ayo mazu hari udukoresho tundi dutandukanye.

Abaturage bigaragara ko biganjemo abayobozi batandukanye, barahagaze ku kiraro cyubatswe ari gishyashya, hariho umupolisi uhagaze imbere asa nk'aho ari kubasobanurira ibyabereye aho.

Abantu b'abayobozi bahuriye ahantu mu nama bakaba bari bagiye no gukora igikorwa cyo gufungura ahantu bari bamaze iminsi bubaka kugira ngo hatangire gukoreshwa harimo abasirikare, abopolisi ndetse n'abaturage basanzwe.

Inyubako ya Leta yubatse neza mu buryo bwa etaje, isakaje amabati y'ibara ry'umukara, isize amarangi y'ibara ry'umweru, handitseho amagambo mu ibara ry'umukara, imbere y'aho hari umuhanda w'ibara ry'umutuku ariko utari uwa kaburimbo.

Ku mupaka w'u Rwanda na Uganda haba hari ibikorwa bitandukanye ndetse n'inyubako aho bitewe na serivisi ushaka yaba iy'binjira n'abasohoka mu Gihugu uyihabwa kandi ku gihe.

Inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye ndetse isakaje n'amabati y'icyatsi, harimo parafo y'umweru ariko ikoze mu biti, hari kandi umugabo urimo arakingura iyo nyubako.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara, ufite indangururamajwi, akaba yambaye n'umupira wanditseho ingabo z'Igihugu cy'u Rwanda uriho ibendera ryacyo, arimo arageza imbwirwaruhame ku bantu.

Abantu benshi cyane bicaye mu ihema bateguye neza hagati yabo hakaba harimo inkingi, biganjemo ab'urubyiruko, abakuze ndetse n'abakecuru.

Umugabo wambaye imyenda y'amaboko magufi, afite indabo akaba ari uwihayimana, yaje kunamira umuntu usa nk'uwatabarutse.

Abantu bicaye hasi mu byatsi biganjemo abamama ndetse n'abandi bakiri batoya baje mu nama bicaye bateze amatwi urimo kubabwira kugira ngo batahane ibyo yababwiye.

Urujya n'uruza rw'abantu barimo urubyiruko, abakobwa batoya ndetse n'abahungu, barahagaze harimo babiri b'abakobwa bafite mikoro, hirya yabo hari ihema bubatse neza.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu cyumba k'inama aho imbere yabo hari bamwe bambaye neza ndetse bakaba bicaye ku meza afasheho igitambaro cy'umukara kiriho amacupa y'amazi ya Nile.

Abantu benshi bateraniye mu gisharagati cy'umweru harimo abambaye amakoti meza cyane ndetse n'abasirikare umwe wambaye amarinete, biragaragara ko bahuriye mu gikorwa kimwe cyo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi.

Abagabo ubona ko babyibushye barahagaze barimo kwifotoza ifoto y'urwibutso, hagati yabo harimo igicumbi cyanditseho amagambo ari mu ibara r'icyatsi, ubururu ndetse n'umweru n'umukara, icyo gicumbi inyuma yacyo hari igiti kinini.

Umugabo wambaye imyenda isa ndetse n'amarinete mu maso ahagaze imbere y'ameza arimo aragezwa imbwirwabuhame akoresheje mikoro ku baje kwitabira igikorwa cyo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri mirongo icyenda na kane.

Abagabo barimo n'umupolisi bahagaze mu rutoki ahantu, umwe afashe yishingikirije inkoni, barimo bayitegereza ikintu bishoboka ko hari uwakoze ikosa bari baje kureba.

Umugabo wunamye urimo urashyira indabo ahantu hari urwibutso kugira ngo abashe guha icyubahiro abantu bashyinguye, inyuma ye hari abandi barimo baramushungera.

Umugabo ubona uri mu zabukuru wambaye agapira k'ubururu arahagaze, hirya ye hari abandi bicaye inyuma ye hakaba hari bamwe bahagaze b'abadamu barimo baramure, bateze amatwi ibyo avuga.

Abagabo bambaye impuzankano zisa zijya kugira ibara ry'icyatsi barahagaze bameze nk'abumiwe bafite agahinda, inyuma yabo hari imodoka yaparitse ndetse hirya hari umuhanda wa kaburimbo.

Mu muhanda wa kaburimbo ukaba uri kugendamo imodoka y'umweru itwara abantu mu buryo bwa rusange, hirya hakaba hari inyubako nziza ndetse n'umuntu urimo arambukiranya uwo muhanda.

Mu muhanda wa kaburimbo hakaba harimo moto iriho abagabo babiri bambaye amakasike imwe itukura indi ijya gusa icyatsi, hirya y'umuhanda hari inyubako ifite inkingi ziteye ibara ry'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo w'umweru, harimo umunyonzi usunitse igare akaba yambaye umupira w'umweru, ikabutura y'umukara n'inkweto z'umuhondo, ahetseho agafuka.

Mu muhanda wamabuye harimo moto ihetse abagabo babiri bambaye kasike zibarinda kuba bakomeka umutwe igihe baba bahuye n'impanuka, inyuma yabo hari abandi bantu ndetse n'inyubako.

Umuhanda wa kaburimbo bigaragara ko uri kugenda usenyuka, urimo imodoka ebyiri imwe mu idirishya ryayo hahagazemo umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati y'amaboko magufi, hirya hari abandi bari kwambukiranya umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uturongo tw'umweru ducagaguye, ku mpande hahagaze umugabo ndetse hari n'ibiti birebire by'ibidukikije n'igipangu kirimo inzu isakaje amabati atukura, hari kandi icyapa kigaragaza ko imbere gato hari ikoni kandi rizamuka.

Abaturage b'abamama bambaye neza bahagaze mu kibuga kimeze nk'igikinirwamo umupira, imbere yabo hirya hari ikishararaga cyubakishije ihema ry'umweru bisa nkaho bari baje mu nama.

Abashinzwe umutekano bazwi nk'abunganira akarere mu kuwurinda ndetse n'abasirikare, bateraniye ahantu aho bari kugenda batema ibyatsi. Hari kandi ibiti birebire batatema kubera ko bitanga umuyaga ndetse bigakurura n'imvura.

Icyumba k'inyubako kirimo abantu bahagaze bigaragara ko ari abayobozi bahaze, harimo umwe wambaye ikositime ndetse na karuvati ndetse hakaba harimo n'umupolisi n'umugabo wambaye amarinete.

Umugabo bigaragara ko ageze mu zabukuru yikoreye ibuye aho ari mu gikorwa rusange cy'umuganda gikorwa buri kwezi ku munsi wa nyuma, bisanzwe bizwi ko umuganda ari ingirakamaro kuko ufasha mu' iterambere ry'Igihugu.

Abapolisi bo mu muhanda ni bamwe mu batuma ingendo zigenda neza kuko bafasha mu kuba abashoferi bakubahiriza umutekano wo mu muhanda, aba bahuriye hamwe biragaragara ko barimo barakoma amashyi.

Umugabo uhagaze bigaragara ko akiri mutoya afite akapa gatoya ka Polisi y'Igihugu cyacu cy'u Rwanda arimo aramamaza gahunda nziza yazanywe na Polisi ivuga ngo gerayo amahoro.

Umudamu uhagaze ufite indangururamajwi washyize amarinete mu mutwe, ufite n'imisatsi miremire arimo arabwira ikibazo ke abayobozi kugira ngo bakigeho bagikemure, inyuma ye hari abandi bicaye bateze amatwi.

Umugabo uhagaze munsi y'igiti kinini gifite amashami maremare yambaye imyenda ya gisirikare aho yazamuye akaboko arimo aramwenyura gake agaragaza amenyo, iruhande rwe hari undi mugabo.

Abayobozi batandukanye harimo uwambaye karuvati ndetse bose bakaba bambaye amarinete, inyuma yabo hahagaze umusirikare wambaye impuzankano y'Igisirikare cy'u Rwanda.

Umugabo bigaragara ko asa nk'ukuze ahetse amabuye abiri ku rutugu aho yaje mu gikorwa cy'umuganda, inyuma ye hahagaze umwana mutoya, hirya mu nzira hakaba hari umudamu ndetse n'abandi bana barimo baragenda.

Umupolisi uhagaze yazamuye ikiganza yambaye impuzankano yabo, ahagaze iruhande rw'umugabo urimo aramwenyura inyuma yabo hakaba hari indabyo ndetse n'inyubako yanditseho ngo Girubuzima.

Umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda, arahagaze arimo arageza imbwirwaruhame ku bantu baje mu nama. Iruhande rwe iburyo n'ibumoso hahagaze abagabo b'abasore babiri.

Ikibaya cyiza cyane kiriho ibidukikije bigizwe n'ibiti birebire, ibigufi, amazu ndetse n'ibihingwa by'abaturage baba barahizwe kugira ngo bibashe kubatunga, hari kandi n'abantu bateraniye ahantu barimo barakora umuganda.

Abagabo bambaye ingofero bakaba bafite amabuye biragaragara ko baje mu gikorwa cy'umuganda rusange umenyerewe ku wa nyuma w'ukwezi mu Rwanda, hirya yabo hari igihingwa cy'ibigori.

Abagabo b'abasirikare n'umupolisi ndetse n'abandi bakorera Ikigo gishinzwe Ubugenzacyaha mu Rwanda kizwi nka RIB, barimo baratambuka bavuye mu nyubako.

Abaturage bahuriye mu gikorwa cy'inama aho bicaye mu gishararagati cy'ihema ry'umweru, inyuma hirya hari imisozi ubona ko ari myiza cyane iriho ibiti birebire ndetse n'ibigufiya.

Abantu b'abaturage harimo n'umusirikare ndetse n'umwana ukiri mutoya bakaba bafashe amabuye mu ntoki, hirya inyuma mu nsina hakaba harimo n'umupolisi urimo uracunga areba uko igikorwa cyagenze, bahuriye mu gikorwa cy'umuganda rusange.

Ni byiza kandi ni iby'agaciro gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo imibiri yacu igire ubudahangarwa ndetse tubashe no kugira ubuzima bwiza bityo tubashe no kwirinda indwara zishobora kwataka imibiri yacu.

Umuhungu w'umusore urimo arakora siporo yambaye imyenda ya siporo yifashishwa bakina umupira w'amaguru cyane cyane, hirya hari ibidukikije byiza ndetse hakaba hari mu kibuga harimo abandi bakinnyi.

Gukora siporo ni byiza cyane kuko bituma ugira ubuzima bwiza, aba ni bakinnyi bari bagiye gukora imyitozo ngororamubiri yo gukina umupira w'maguru, bambaye neza, bambaye impuzankano y'umweru.

Abantu biganjemo abana bakiri bato abakobwa ndetse n'abahungu bavuye mu gikorwa cya siporo bicaye muri sitade, imbere yabo hari umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki harimo aragira icyo ababwira.

Muri sitade haba harimo inyubako zagenewe kwicarwamo n'abantu baje gukurikirana ibikorwa bitandukanye bibera muri icyo kibuga, harimo nk'umupira w'amaguru cyangwa se imyiyereko.

Hari ibikorwa biba byaragiye bishyirwaho n'Igihugu kugira ngo bifashe urubyiruko ndetse n'abandi Baturarwanda mu gukora imyitozo ngororamubiri bityo bagire ubuzima bwiza, nka sitade yifashishwa n'amakipe akomeye cyangwa se abandi bakora imyitozo ngororamubiri.

Gukora imyitozo ngororamubiri birafasha cyane kuko bituma ugira imitsi igororotse ndetse ukagira ubuzima bwiza, aba ngaba barimo barakora siporo barambura amaboko ndetse n'amaguru.

Gukora siporo ni byiza cyane kandi ni ingirakamaro kuko bituma ugira ubuzima bwiza ndetse n'amagufwa agakomera. Aba bantu bari muri siporo yo gukina umupira, ubona ko biganjemo abambaye imyenda ya siporo.

Abana biganjemo abakiri batoya bambaye impuzankano ijya gusa ubururu bwerurutse rw'ikirere ndetse n'abandi bambaye imyenda ya siporo itukura barimo barakina umupira w'amaguru mu kibuga kitameze neza.

Imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bikorwa byifashishwa mu kuba watanga ubukangurambaga ku bantu benshi cyane cyane iyo wababwiye ko baribuze kureba umupira urabanza cyane cyane uw'amaguru.

Abagabo bari muri sitade bicaye neza batuje. Bambaye imyenda ya siporo, birasa nk'aho baje kureba umupira wahuje amakipe abiri ariko barakaye kuko birashoboka ko hari ikipe imwe yatsinzwe bari barimo gushyigikira.

Akayira cyane cyane kazwi ku izina ry'agatsibanzira biragaragara ko karimo ibyatsi ariko atari byinshi, ku mpande hagiye hariho umukingo wamezeho ibyatsi.

Ahantu heza cyane hari umuhanda w'amapave bigaragara ko harimo udupave basize irangi ritukura, haparitsemo imodoka ifite amapine y'umukara ndetse hariho n'utubara tw'umuhondo turimo turagaragara.

Akayira gatoya abenshi bakunze kwita agatsibanzira karimo karanyuramo moto iriho umugabo wambaye amakote y'umukara ndetse wagira ngo arimo aranyerera.

Umuhanda wa kaburimbo ariko utagaragara neza, hari ibiti kandi biteye hakurya mu mirima ndetse hari n'icyapa kigaragaza ko ahantu ugiye kugera hari ikona rihengetse cyane.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo w'umweru hagati, ku mpande mu kayira k'abanyamaguru harimo karanyuramo abantu batatu, imbere y'aho hari amazu meza cyane asakaje amabati y'umutuku.

Imbuga y'igitaka bigaragara ko ikoze neza ariko batarashyiramo amapave. Hari hamwe hagiye hamera ibyatsi n'ubwo bikiri bigufiya.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo ufite ibara ry'umuhondo ku mpande hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru, urimo uranyuramo imodoka y'umukara irimo igenda, hirya ku ruhande hakaba hari ubusitani.

Umusore urimo aragenda mu kayira k'abanyamaguru kari iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo yambaye inkweto z'umweru zirimo ibara ry'umukara n'abapira kajya gusa iroza, inyuma ye hirya haragaragara inyubako itagaragara neza.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo w'umweru ha hagati ugaragara neza, hakaba harimo umumotari uhetse amajerekani menshi yambaye kandi ingofero imufasha mu kurinda umutwe igihe yaba agize impanuka.

Imbuga nziza ishashemo amabuye y'amapave ndetse ku ruhande hakaba hari umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo w'umweru n'akayira k'abanyamaguru kifashishwa igihe harimo urujya n'uruza rw'abantu.